Aha hari icyapa kimanitswe ku muhanda nyabagendwa, gikikijwe n'ibiti birebire biri mu ibara ry'icyatsi. Iki cyapa kiriho umuntu uri mu bwoko bw'abafite uruhu rwera, ndetse munsi yanditseho izina rye Bulani Jonizi, aya magambo ndetse n'andi ari kuri iki kirango byanditswe mu rurimi rw'Icyongereza, byandikishijwe ibara ry'umukara usigirije, n'andi magambo y'umweru asigirije.

Aha hagaragazwa ifoto y'umukobwa usobekeranyije amaboko, wambaye ikoti ry'umukara ufite akamwenyu ku maso, bigaragazwa n'amagambo y'icyongereza ari munsi ye, n'amazina ye nk'uko bigaragara yitwa Brenda KANKAZI ashinzwe abagana iki kigo cya sonarwa gikorera mu Rwanda hari n'ikirango cya sonarwa, ndetse hari n'amagambo yanditse ibumoso bw'uyu mukobwa ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse cyandikishijwe ibara ritukura.

Aha ni ikigo cy'ubwishingizi kirimo kiramamaza gahunda imwe muzo gitanga. Hari umuganga ndetse n'umurwyi, umuganga afashe ukuboko uwo murwayo ari kumupima amusuzuma hifashishijwe ibikoresho byo kwa muganga byabugenewe. Munsi gato hari amagambo ari mu ibara ry'umukara usigirije mumbavu hari utuziga tw'ubururu kamwe karimo imutima ucitsemo kabiri akandi karimo umusaraba. Munsi gato hari uruziga runini rwanditsemo ijambo radiyanti mu ibara ry'ubururu. Munsi gato hati nimero za terefone.

Aha hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu kimanitse ahabugenewe bamanika ibyapa mu nzira, biragaragara ko ari icyapa cya sosiyete y'ubwishingizi, cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umukara usigirije n'andi magambo ari mu ibara ry'umukara ariko udasigirije, aya magambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Aha haragaragazwa icyapa cyamamaza ibya sosiyete y'ubwishingizi izwi nka saniramu. Aha hari amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse amagambo manini yandikishijwe inyuguti ziri mu ibara ry'umweru risigije ndetse n'andi matoya nayo ari mu ibara ry'umweru hepfo asigirije.

Aha harerekanwa sisitimu ya banki izwi nka Zigama harerekanwa amakuru kuri konti aho berekana amafaranga ari kuri konti ndetse n'amafaranga y'ubwizigame butandukanye, ibi biri mu mabara y'umweru n'icyatsi ndetse biri mu rurimi rw'icyongereza munsi hari uturango twabugenewe twerekana amakuru yose ya banki cyangwa ya konti yawe ushaka kumenya

Iyi ni sisitemu ya banki cyangwa ikigo cy'imari nk'uko bigaragara iri ni ibara ry'umukara ndetse aho izi serivisi ziri kugaragarira byandikishijwe amagambo y'icyongereza kandi byanditswe mu ibara ry'umweru usigirije.

Aha haragaragazwa ububiko bwabugenewe buteretsweho inkweto, bigaragara ko ari inkweto zikorerwa mu Rwanda izi ziri m'ibara ry'umukara ndetse zipanze neza inyinshi muri zo n'inkweto zifunguye, ndetse ububiko ziteretseho buri m'ibara ry'umweru.

Aha haragaragazwa inzu y'ubucuruzi icururizwamo imyambaro, aha twavuga nk'imipira, amashati ndetse n'ingofero bimanitse ku gikuta, iki gikuta bimanitseho ni umweru.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, biragaragara ko irimo imyenda itunganyirizwa cyangwa ikomoka mu Rwanda. Irimo umugore ufite ikaramu mu ntoki ze, kandi n'urupapuro mu ntoki ze. Imbere y'uyu mugore hari akamashini kabara imibare, kandi hirya gato y'uyu mugore hari imashini ya mudasobwa. Uyu mugore afite imisatsi y'imikara, ndetse na we yambaye umwe mu myenda itunganyirizwa mu Rwanda. Iruhande gato hari na telefoni.

Iyi ni inzu icuruza imyenda y'abagore uko bigaragara. Hari icyabugenewe kimanitseho imyenda mu masoko nk'aya agezweho, imanitsweho ikanzu iri mubwoko bw'ubururu ariko ubururu bwijimye. hari n'utubati twabugenewe tumanitsweho ibindi bicuruzwa. Utu tubati turi mumabara y'umweru uvanze n'iroza ryererutse ariko iroza rike.

Iri ni isoko rinini bigaragara ko ricuruza imyenda ariko yiganjemo iy'abagore, aha haragaragara imyenda abagore bifubika ibizwi nk'amasharupe, kandi iyi myenda imanitse ku gikuta cyo kuri iri duka, amanitse ku bikoresho byabugenewe.

Iyi ni inzu igaragara nk'aho icururizwamo ibikoresho by'ubugeni, aha hari utubati tumanitsemo ibyo bikoresho ndetse n'ameza arambitsemo ibyo bikoresho, hejuru hari amatara yaka mu ibara ry'umweru kandi ibikuta biri kuri iyi nzu bigizwe n'ibara ry'umweru ndetse n'ahandi hari ibara ry'ubururu.

Iri ni iduka ricuruza imyenda yiganjemo iy'abagabo ariko by'umwihariko amakoti, amanitse ahabugenewe, utwuma twagenwe kumanikwaho amakoti mu masoko. Aya makoti ari mu mabara atandukanye nk'ubururu bwerurutse, ubururu bwijimye, giri yijimye, giri yererutse nk'uko bigaragara.

Aha hari iduka ryerekanwa, ricuruza imyambaro, hari icyabugenewe bamanikaho imyenda kandi kuri iki cyabugenewe bamanikaho imyenda, hari umwenda uri mu bwoko bw'ikanzu ugizwe n'ibara ry'umukara na giri. Inyuma y'uyu mwenda hari utubati twabugenewe, bashyiraho inkweto bacuruza, izi nkweto inyinshi ziganjemo iz'ibara ry'umukara ndetse utu tubati ziteretseho tugizwe n'ibara ry'umweru.

Iyi ni imodoka nshyashya nk'uko bigaragara iri mu ibara rya grey iraparitse kandi ifite ibirahuri bitabonerana ibizwi nka fime, iyi modoka ifite amapine y'imikara kandi aho iparitse ireba hakikijwe n'inzugi ziri mu bwoko bw'ibirahuri nabwo bwa grey.

Iyi ni imodoka iri mu bwoko bwa Toyota lava fo, hayiburidi, bibiri na cumi na karindwi, iriho ibara ry'umukara n'umweru, kandi iparitse aho basanzwe batangira esansi. Iyi modoka biragaragara ko iri ku isoko cyangwa se ko iri kwamamazwa.

Aha hari ikinyabiziga kiri mu bwoko bwa kiya, imodoka y'umukara ndetse n'umweru. Biragaragara ko yambaye icyapa kigurisha iyi modoka, inyuma mu mugongo wayo. Iyi modoka iri ahabugenewe, haparikwa amamodoka ategereje abaguzi.

aha hari abagabo babiri umwe yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ikoboyi undi yambaye ikoti n'ipantaro bisa imbere yabo hari imodoka iri mu ibara ry'umukara biragaragara ko basa nkaho bari kuganira kubucuruzi bw'iyimodoka basa nkaho bari kuganira kubiciro umwe numuguzi undi ni umucuruzi

Aha haragaragara amamodoka atondetse ku mirongo ariko ari mu ibara ry'umukara biragaragara ko ari ahabugenewe hagurishirizwa amamodoka, aya mamodoka ni ubwoko bw'amamodoka agezweho yitwa piriyusi inyuma hari igikuta kigizwe n'amatafari nayo ya kijyambere azwi nka buroke sima.

Iyi ni imodoka iri mu ibara ry'umukara biragaragara ko ikiri nshyashya kuko yambaye amashashi haba aho batwarira ndetse naho umushoferi n'umugenzi bicara hari amashashi ni imodoka iri mu bwoko bwa automatic nkuko bigaragara kandi iyi myanya bicaramo ndetse n'imyanya iri ku rubaho rw'iyi modoka biragaragara ko bikozwe mu ibara rya chocolat.

Aha hagaragazwa itsinda ry'abantu batatu abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, aba bagore babiri bafite ibara ry'uruhu rwera bazwi nk'abazungu, bahagaze imbere y'imodoka hejuru yabo hari ikirango kiranga sosiyete yitwa akagera motozi, bigaragara ko bari mu bikorwa by'ubucuruzi cyangwa by'igura'igurisha bw'imodoka.

Aha haramamazwa imodoka iri mu bwoko bwa yundayi, kandi iyi modoka ikaba ifite ibara rya giri. Aha hari uturango tw'urukiramende twanditsemo amagambo yo mu cyongereza ako hejuru karimo amagambo ari m'ibara ry'umukara usigirije, akandi karimo amagambo ari mu ibara ry'umweru ariko ari mu gakiramende k'ubururu, biragaragara ko iyi modoka iri kwamamazwa iri k'isoko.

Aha haragaragazwa inzu icururizwamo ibikomoka ku mata bizwi nkadiyari. Aha, hari icyuma cyabugenewe kibika aya mata, hari n'akabati kabugenewe kagizwe n'ibirahuri gateretsemo utujerekani dutoya tw'umweru turimo amata.

iyi ni inzu y'ubucuruzi biragara gara ko icururizwamo ibikomoka ku mata . iriho icyapa cy'ubururu n'umweru cyanditseho ikaze dayari kiyobora abantu. iyi nzu ifite urugi rw'umweru rwanditseho ikaze dayari kandi mu nkingii z'iyi nzu hariho amatiyo.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi bigaragara ko icururizwamo ibikomoka ku mata ndetse bizwi nka dayali, hari icyuma cyabugenewe kibikamo aya mata, ahateretse ijerekani ry'umweru, iruhande hari intebe ziri mu bwoko bwa plastike, aha hari ibirango bigaragara ko bacuruza ibikomoka ku mata, ariko by'umwihariko by'uruganda inyange.

Aha harerekanwa inzu icururizwamo ibikomoka ku mata ariko byumwihariko ibikorwa n'uruganda inyange, inzu irimo umukobwa bigaragara ko ari umucuruzi ndetse n'umugabo uje agana iri duka rye, bariho baravugana bigaragara ko bari guhahirana inyuma y'uyu mukobwa hari akabati kabugenewe kamanitsemo ibyo bicuruzwa.

Aha harerekanwa imwe muri poroduwi zikomoka cyangwa zikorwa mu mata izwi nka yahute, irerekanwa ko ifashwe n'ikiganza cy'umuntu. Iyi produwi ikorwa n'uruganda rwitwa Mukamira dairy nk'uko bigaragazwa n'ibirango biri kuri iki gikombe cyayo, biri mu mabara y'umweru n'umutuku nk'uko bigaragara.

Aha hari akabati kabugenewe kabajijwe mu biti kandi karimo amajerekani abiri y'imyeru adapfundikiye. Aka kabati gateretse mu nzu bigaragara ko icururizwamo ibikomoka ku mata. Hirya y'aka kabati mu nkuta n inkuta zikozwe mu matafari ya mpunyu, hejuru y'iki gikuta hasizwe irangi ry'ubururu.

Aha hari iduka rigaragara ko ricuruza amata ndetse n'ibikomoka ku mata nk'ukobigaragazwa n'ibirango bihari biri mu mabara y'umweru n'ubururu. Hari umucuruzi hari n'abaguzi baje bagana uyu mucuruzi kandi nk'uko bigaragazwa umucuruzi arimo aratanga ibyosabwe n'abaguzi, hari icyuma imbere y'icyuma kibika amata hari ijerekani ry'umweru ndetse n'umwana wambaye inkweto z'ubururu.

Aha garagaragazwa umuntu ufite uruhu rw'irabura w'umwirabura usanzwe ufite mu ntoki ze inoti z'amafaranga y'amanyegana. Amafaranga amwe ari mu ibara ritukura ndetse nayandi ari mu ibara ry'ubururu biragaragara ko ari nk'umuvunjayi.

Iki ni icyapa kiyobora abaje ku biro by'ivunjisha, aho hagaragazwa ingano y'amafaranga ndetse n'uko bayavunja. Iki cyapa kiri mu ibara ry'umweru ndetse amagambo ari kuri iki cyapa yandikishijwe amabara y'ubururu, umweru ndetse n'icyatsi. Iruhande rw'ikicyapa hicaye umuntu w'umugabo wambaye ishati y'ikivuvu n'ipantaro y'umukara.

Aha garagaragazwa abantu babiri basa nkaho bari mu gikorwa k'ivunjisha, ibiganza byabo byombi bifashe amafaranga bashaka kuvunjisha, bibiri byabo bihuriye ku mafaranga y'ama Nigeriya, ibindi bibiri byabo bihuriye ku mafaranga y'Amadorari, aba bose biragaragara ko ari abantu bafite uruhu rwirabura.

Ibi n'ibiro by'ivunjisha bigaragara ko hari amafaranga atandukanye ari m'ubwoko butandukanye amwe n'amadorari andi ntabwo ari amadorari, hari abantu basa nkaho bari guhererekanya aya mafaranga kandi hari n'imashini yabugenewe ibara aya mafaranga aba bose basa nkaho bafite uruhu rwera.

Aha harerekanwa amafaranga agizwe n'ibiceri n'amadolari ndetse n'inoti zirambitse ahabugenewe, biragaragara ko ari nk'ibiro by'ivunja. Ibi biceri birambitse hejuru ku noti zigizwe n'ibara ritukura n'izindi z'ubururu, izigaragara ziriho umubare ijana uri mu ibara ritukura.

Aha haragaragazwa inoti ziri mu mafaranga agiye atandukanye amadolari ndetse n'ayandi nkuko bigaragara. Agizwe n'amabara y'imituku, ubururu, ikivuvu, ndetse ayo mafaranga amwe ni ibihumbi mirongo itanu ayandi hariho imibare ijana andi hariho imibare magana atanu biragaragara ko arambitse mu biro by'ivunjisha

Aha haragaragara ibiro by'ivunjisha aho umuvunjayi n'uje umugana basa nkaho bafite ibyo bari kuganiraho umwe afite amafaranga mu ntoki ye ndetse n'undi afite ikimeze nk'agatabo mu ntoki ze, hirya ho hari undi muvunjayi ufite uruhu rwera biragaragara ko ari ibiro by'ivunjisha birimo biratangirwamo serivisi zigendanye nabyo.

Iyi ni inzu y'ivunjisha irimo abavunjayi batatu ndetse n'umugore umwe wambaye imyenda y'imikara bisa nk'aho abagannye. Uyu mugore ari kuvugana n'umuvunjayi w'umugabo ndetse hagati yabo batandukanyijwe n'ikirahuri bigaragara ko aricyo gitandukanya abakozi basanzwe bakorera muri iyi nzu ndetse n'ababagana. Uyu mugore afite amafaranga mu maboko yombi ari kuvugana n'uriya mugabo aje agana.

Aha harerekanwa akabati gato kabugenewe katerekwa i ruhande rw'igitanda aka kabati kabajijwe mu biti bigezweho, aka kabati kandi gateretse i ruhande rw'igitanda, hejuru y'ako kabati hari isaha ndetse n'utundi dukoresho bigaragara ko ari udukoresho tw'imitako.

Aha harerekanwa agace gatuwe cyangwa agace nyabagendwa bigaragara ko ari umujyi runaka. Aha hari amazu agezweho yubatswe mu buryo bwa kijyambere azwi nk'amagorofa ndetse n'ayandi mazu asanzwe. Aha hagaragazwa kandi amatara acanira aka gace ndetse n'urumuri rwinshi ruri muri aya mazu.

Aha haragaragazwa ameza yabugenewe yo mu ruganiriro ateretseho indabo, izi ndabo ziri mu ibara ry'umuhondo icyatsi n'iroza ryijimye, aya meza aho ari biragaragara ko ari mu ruganiriro hari n'amarido ari ifite ibara rya giri kandi hari n'urugi rw'ibirahuri ruri mu ibara ry'umukara ndetse n'intebe ziri mu ibara ry'umuhondo ariko wererutse biragaragara ko ari mu ruganiriro.

Aha harerekanwa ihoteli bigaragara ko ari ubwinjiriro bwaho, hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umweruru udashigirije bigaragara nk'ibirango nyirizina by'iyi hotel n'imbere mu birarahuri hari intebe zo mu ruganiriro ziri mu ibara ry'umuhondo, aha kandi kuri ibi birango biranga iyi hotel bigizwe n'amabara y'ubururu n'umweru.

Aha harerekanwa ihoteli iteguye neza mu buryo butangaje, aho iriho amatara agezweho arikokwaka muhondo, ndetse n'aho bakirira abaje bagana iyi hoteli, aha babakirira hari ushinzwe kwakira abaje bagana iyi hotel yambaye ikoti ry'ubururu bwijimye ndetse imbere ye hari mudasobwa, aha ahagaze hagizwe n'amabara ari mu irangi ry'umukara.

Hagaragazwa ubwogero bugezweho buzwi nka pisine, aho ku nkengero z'ubu bwogero hateretse intebe enye n'ameza bigaragara nk'aho zagenewe kwicarwaho Abantu bane, ziteretse mu byatsi biri ku nkengero z'ubu bwogero. Mu gice cya ruguru hari intebe zabugenewe zikoze nk'igitanda aho abavuye koga baruhukira ndetse zisakajwe cyangwa zitwikirijwe umutaka utukura. Hakurya na none mu rubavu rwo hirya hari inkingi z'umweru.

Aha harerekanwa ibikoresho byabugenewe birimo ibiryo bitegereje abantu ko baza kubifungura. Aha kandi harerekanwa igisa nk'ihoteli cyangwa ahantu habugenewe, hatangirwa serivisi zo kwakira abantu.

Aha turahabona igorofa rinini biragaragara ko rishobora kuba ari hoteli, iyi nzu iri mu mabara y'umweru, aha kandi herekanwa icyanya cyabugenewe giparikamo amamodoka cyangwa ibinyabiziga bije aha ngaha, iyi nzu iri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru.

Aha harerekanwa ihoteli ndende iri mu ibara ry'umukara n'umweru, ndetse hari n'ubwogero bugezweho bwa kijyambere buzwi nka pisine. Iyi pisine igizwe n'ibara ry'ubururu bwererutse cyane, ku nkengero yaho hari ibitanda byabugenewe, abavuye muri ubu bwogero baruhukiramo.

Iri ni itsinda ry'abantu batatu bagizwe n'abagabo babiri n'umugore umwe bambaye udupfukamunwa kandi bambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara biragaragara ko uyu mugore ari kwereka bariya bagabo ibigendanye n'bikoresho bya mudasobwa afite kandi uriya mugabo arimo asa nkaho abaza uyu mugore ibigendanye n'amakarita y'ubwishingizi ari kumwereka hanyuma uyu mugore nawe akabasobanurira.

Iki ni icyicaro cy'ikigo gitanga serivise z'ubwishingizi cyitwa Britam, nk'uko bigaragazwa n'icyapa kiri mu irembo kiri mu mabara y'umweru n'ubururu. Iki cyicaro kigizwe n'inyubako y'amagorofa atatu nk'uko bigaragara, kandi imbere gato hari ibiti ndetse mu irembo ukinjira hari aho batangira amaraso nk'uko bigaragazwa n'ibirango bihari biri mu mabara atukura n'umweru. Mu irembo nanone hari umuntu uri kwigendera bisanzwe.

Aha hari itsinda ry'abagabo batatu bose bambaye amapantaro n'amakoti bisa kandi bicaye ku ntebe z'imikara, bafite ameza afite ibara ry'umweru inyuma yaho hari ibirango bya sosiyete cyangwa by'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi cyitwa purayime gikorera mu Rwanda biragaragara ko basa nkaho bari mu nama cyangwa bari gutanga amahugurwa.

Aha harerekanwa inyubako yubatse mu buryo bugezweho ariko hejuru hakaba hariho ibirango bya sosiyete y'ubwishingizi yitwa saniramu ikorera mu Rwanda, hanyuma iyi saniramu yometse hejuru ku makaro agize iyi nyubako, kandi imbere mu rwinjiriro rw'inyubako hari amamodoka ahaparitse, ukinjira urabona ijambo ry'icyongereza riri mu ibara ritukura aho riri ni mu ibara ry'umuhondo.

Iyi ni inzu ya sosiyete itanga serivisi y'ubwishingizi, iyi inzu iri mu bwoko bw'igorofa, aha kandi hagaragazwa umuhanda w'umukara wa kaburimbo urimo ibinyabiziga nka moto n'amamodoka. Aha kandi hakikijwe n'ibiti binini ndetse n'amapoto kandi kuri iyi nyubako hari ikirango kigaragaza iyi sosiyete.

Aha harerekanwa gahunda y'ikigo cy'imari cy'igihugu cyizwi nka banki popirere, izwi nka banki y'abaturage. Harerekanwa ifoto y'abantu babiri umwe ateruye undi, hari n'amagambo manini yanditswe mw'ibara rya oranje, ari mu rurimi rw'icyongereza.

Aha hari kwerekanwa umugabo wambaye ishati iciye amaboko y'ubururu, wishimye ufite akamwenyu ku maso, ndetse uzamuye amaboko ariko ufunze ibipfunsi, biragaragara ko yifashishijwe muri gahunda yo kwamamaza iby'inguzanyo kuko kuri iyi foto handitse amagambo ari mu cyongereza, ari mu ibara ry'umukara usigirije, n'andi ari mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Iri ni itsinda ry'abantu batanu bagizwe n'abagabo bane n'umugore umwe bose bambaye udupfuka munwa baje bagana umugabo wicaye kuri iyi ntebe y'umukara yambaye ishati y'umweru ufite mu dasobwa imbere bigaragara ko akora mu cy'imari, aha hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru kandi asigirije biragaragara ko ari ikigo cy'imari gitanga inguzanyo.

Aha turahabona inzu ikoreramo ikigo cy'imari kimwe mu bigo bikorera mu Rwanda kizwi nka I&M bank. Ibi biragaragazwa n'ibirango biri kuri iyi nzu, biri mu mabara y'umweru n'ubururu. Mu muryango w'iri shami hari indangururamajwi ibara ry'umukara kandi iteretse ahabugenewe. Ukinjira, hari abantu batatu, babiri muri bo bambaye impuzankano, biragaragara ko ari abakozi b'iki kigo bakorera kuri iri shami.

Iri ni isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye; nk'ibikapu, imyenda nk'uko bigaragara harimo urujya n'uruza rw'abaguzi ndetse n'abandi bacuruzi babiri bari mu bicuruzwa byabo, umugore n'umugabo. Umugore arahagaze ari gukora ku ibicuruzwa bye, n'umugabo asa nk'uwunamye ari gukora mubicuruzwa bye, aha kandi hamanitswe ibikapu by'umikara, ndetse n'imyenda iri mu ibara ry'imikara kandi iri soko ritwikirijwe amabati.

Aha harerekanwa umugore uteze igitambaro mu mutwe kandi ufite umwana mu mugongo umuhetse mu kigoma, iruhande rwe hari ibirimo nk'imboga ndetse biragaragara ko ari mu isoko ari mu kazi ke ka buri munsi.

Aha ni agace nyabagendwa bigaragara ko harimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga n'ibinyamitende bya moto, harimo imodoka ntoya ndetse n'abanyonzi b'amagare, biragaragara ko ari agace kahariwe ubucuruzi.

Aka ni gace k'ubucuruzi bigaragazwa n'amazu y'ubucuruzi ahari, ukinjira muri aya maduka abiri afatanye, biragaragara ko hari ibicuruzwa bihapanze biri mu mifuka y'umuhondo n'imyeru, imbere y'iri duka hari itsinda ry'abagabo bane umwe muri bo aricaye undi arahindukiye, babiri bandi barahagaze, bigaragara ko ari umuguzi ndetse n'umucuruzi.

Iri ni isoko ririmo ibicuruzwa byiganjemo imboga, ibitunguru, amashaza, inyanya, ibishyimbo ndetse ririmo urujya n'uruza rw'abaguzi ndetse n'abacuruzi, rugizwe n'igice kimwe gisakaye ariko n'ikindi nacyo gisakaye ariko bigatandukanwa n'umwenge cyangwa n'umurongo uriho ibati ridasakaye.

Aha hagaragazwa isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, ariko harimo ndetse n'itsinda ry'abantu barigendamo bagizwe n'abaguzi ndetse n'abagurisha, aha rero harerekanwa itsinda ry'abantu benshi umwe muri bo aritandiye, abandi baricaye ndetse n'undi mugabo usa nk'uri kuza mu cyerekezo abo bitangiye barimo.

Aka ni agace karimo ibinyabiziga, karimo urujya n'uruza rw'abantu, karimo inzu nyinshi z'ubucuruzi ndetse muri ibi binyabiziga ibyinshi byiganjemo ni ibinyamitende byitwa moto. Aha buri muntu wese ari mu mirimo ye, ubu biragaragara ko ari agace gahurizwamo abantu benshi, ahazwi nko muri gare.

Aha harerekanwa agace k'ubucuruzi bigaragara ko aba bagore batatu bari mu mirimo yabo ya buri munsi. Aha harerekanwa kandi ibicuruzwa byabo biri mu mabasi. Aha ngaha aba bagore bacuruza imineke ndetse n'iyindi mirimo mitoya y'amaboko iciriritse. Biragaragara ko bari mu mirimo yabo ya buri munsi, bose bateze ibitambara mu mutwe.

Iri ni isoko rinini rigezweho ryubatswe mu buryo bwa kijyambere nk'uko bigaragara, ariko biragaragazwa n'amagambo ari mu ibara ry'ubururu buzimije, yanditse mu rurimi rw'icyongereza, kandi akaba ari ahagana hejuru kuri iri soko. Ucyinjira hari ibyapa bigaragaza iduka ricuruza ibikomoka ku mata ndetse n'irindi duka ricuruza ibiribwa bisanzwe. Iyi nyubako iri mu ibara ry'umutuku ariko wijimye.

Aha hagaragazwa agace bisa nk'aho ari ak'ubucuruzi ariko by'umwihariko inzu igaragazwa ikaba itanga serivisi za sosiyete y'itumanaho izwi nka Emutiyene mu Rwanda. Inzu iri mu ibara ry'umuhondo, imbere yaho kandi hari umukobwa bigaragara ko yaje agana abakoreramo hano ngo bamuhe izo serivisi.

Aha haragaragazwa imwe muri serivisi ikigo cy'itumanaho Emutiyene gikorera mu Rwanda gitanga, aha hari amagambo yanditse kuri iki cyapa yandikishijwe ibara ry'umukara riri mu mukara usigirije ayandi yanditswe mu ibara ry'ubururu, ayandi yanditswe mu ibara ry'umweru ndetse n'ayandi yanditswe mu ibara ry'umukara ariko udashikiririje, ibi byose byometse cyangwa bifatiye ku rubaho rwabugenewe mu ibara ry'umuhondo.

Aha hari amazu yabugenewe atangirwamo serivisi z'amasosiyete y'itumanaho akorera mu Rwanda, inzu imwe iragaragaza sosiyete ya Eyateri iyindi iragaragaza sosiyete ya Emutiyene, aha harimo abashinzwe gutanga izi serivisi, kandi iyi nzu ya Emutiyene, iri mu ibara ry'umuhondo, iyingiyi ya Eyateri irii mu ibara ndetse n'ibirango bitukura bivanze n'umweru.

Aha harerekanwa inzu y'ubucuruzi itangirwamo serivisi za sosiyete y'itumanaho izwi nka emutiyene mu Rwanda, iyi nzu igizwe n'ibirango by'iyo sosiyete kandi iyi nzu mu ibara ry'umuhondo, imbere muri iyi nzu hari umukobwa wambaye imyenda y'imikara bigaragara ko ayikoreramo ariwe utanga izo, serivisi imbere ye hari uje umugana bigaragara ko ari umuguzi barimo baravugana.

Aha ni iduka ritangirwamo serivisi z'itumanaho, by'umwihariko iza sosiyete izwi nka Emutiyeni. Aha haragaragazwa itsinda ry'abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo, baje bagana umwe mu batanga izi serivisi. Bose bafite telefoni zabo mu ntoki zigendanwa ndetse uyu uri gutanga izi serivisi, ahagaze nk'umuntu uri kubafasha koko.

Aha hari imodoka ntoya itukura iri mu bwoko bwa yarisi, aha ngaha hari ikirango kinini cyerekana iri soko rikoreshwa ku mbuga nkoranyambaga hifashijwe murandasi, rizwi nka online market bakoresha baguriraho amamodoka. Ibi birango biri mu mabara y'imyeru n'ubururu.

Aha hari abagabo babili umwe ufite ibara ry'uhuruhu rwera bizwi nk'abazungu undi afite ibara ry'abirabura, basa nk'aho bitegeye icyanya nyaburanga kiri hakurya y'aho bari kureba nk'uko biragazwa n'imigezi mito iri hakurya, ibiti byiza ndetse n'amazu yitegeye hakurya.

Aha harerekanwa ubwogero bugezweho bwubatse mu buryo bwa kizungu ubwogero bumanitse aho bumanitse hagizwe n'amakaro ari mu ibara ry'umweru, biragaragara ko aha herererekanwa icumbi risa nk'aho rikodeshwa ndetse bagaragaje n'igiciro cy'iri cumbi mu mabara ry'umukara.

Aha harerekanwa igikoni cyubatse imbere mu nzu, iki gikoni cyubatswe mu buryo bwa kijyambere bugezweho, kigizwe n'utubati turiho ibara ry'umweru ndetse n'imbabura igezweho ikoreshwa gaze n'amashanyarazi mu rubavu rwaho hari igikoresho gikonjesha ibintu bitandukanye ndetse gicometse k'umuriro hejuru aho iki gikoni cyubakiye hari ibara ry'umweru.

Iyi ni inzu igezweho yubatse mu buryo bwa kijyambere, ifite urukarabiro rumanitse ndetse urukarabiro rukaba rukikijwe n'ibirahuri. Hanyuma ku ruhande hari ubwiherero buri mu ibara ry'umweru, aha hari n'urugi rw'umweru. Hari n'urundi rukarabiro rwifashishwa hakarabwa intoki ruri mw' ibara ry'umweru, hejuru hari ikirahuri kiri mw' ibara ry'umukara, musi hari n'utubati tw'umukara.

Iyi ni inzu bigaragara ko ari icumbi riri kwamamazwa. Irimo urukarabiro rumanitse, irimo ubwiherero bw'umweru buteretse ndetse izengurutswe n'amakaro harimo n'idirishya risize ibara rya giri. Hari kwerekanwa ko ikodeshwa ibihumbi magana atandatu ku kwezi, ibi byanditswe mu ibara ry'umukara mu rurimi rw'icyongereza ndetse biri mu gakiramende k'umweru. Munsi, hari icyerekezo cyerekana aho iyi nzu iherereye nyirizina.

Iri ni icumbi bigaragara ko riri kwamazwa aha rero harerekanwa ubwinjiriro bw'iryo cumbi, aho bugizwe n'ibara ry'umuhondo werurutse, ndetse n'umweru werutse, ndetse n'urugi rwubatswe mu buryo bwa kizungu bugezweho, buzwi mu biti bya ribuyu ndetse aha hari ibaraza rikoze neza, rigizwe n'amabara y'umweru ndetse n'amakaro avanze umweru n'umukara.

Aha harerekanwa igitanda gishashe neza gifite imisego y'imyeru ndetse n'amashuka ari mu ibara ry'umweru utererutse ndetse n'icyo kwiyorosa kiriw ibara ry'ubururu n'umweru ku mutwe w'iki gitanda hari amatara yabugenewe ahaterekwa ndetse n'amarido mu rubavu rundi ari mu ibara rya shokora aha kandi hagizwe n'irangi ry'umweru ibi ni ukwamamaza amacumbi.

Aha harerekanwa inzu ya konoshi yubatswe mu buryo bwa kijyambere, iri mu mabara y'umweru na giri. Aha bari kwamamaza iyi nzu nk'uko bigaragazwa n'amagambo y'umukara ari mu dukiramende tw'umweru. Hari n'ubusitani bukikije iyi nzu buri mu mabara y'icyatsi.

Aha harerekanwa inzu yubatswe mu buryo bugezweho, ifite igisenge kiri mu bwoko bw'agacurama, iki gisenge gifite ibara ritukura ariko umutuku wijimye. Iyi nzu kandi iragaragara kuri mu gipangu kihariye, imbere yaho hari ibiti ndetse hari n'ahabugenewe ho kugendera hagezweho hazwi nk'amapave.

Aha harerekanwa inzu igezweho yubatswe mu buryo bwa kijyambere, ifite igisenge kizwi ku izina rya gacurama, iyi nzu ifite ibara ritukura rijimije cyane ndetse n'inkingi zayo, ni umweru harerekanwa ibiti n'ubusitani buri imbere y'iyi nzu ndetse n'icyanya kinini cyahariwe guparikamo imodoka imbere y'iyi nzu.

Aha harerekanwa inzu yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ifite urunganiriro runini rusizwe irangi ry'umweru. Aha harerekanwa igikuta cyubatse neza kiriho ibiti bibajijwe mu buryo bwa kijyambere, ahagenewe guterekwa ikizwi nka tereviziyo. Aha bari kwamamaza iri cumbi.

Aha haragaragazwa inzu iri mu bwoko bw'agacurama kandi isa nk'aho iri kwamamazwa, iri ku isoko kandi inzu ifite igisenge kiri mu ibara ritukura ariko ryijimye, ni inzu igezweho biragaragazwa n'amagambo yanditse aha arimo ibara ry'umukara usigirije, ariko aya magambo ari murimi rw'icyongereza kandi biragaragazwa n'akamenyetso gatukura kerekana icyerekezo.

Aha harerekanwa iduka ririmo inkweto n'ibindi bicuruzwa ariko by'umwihariko harimo abantu batatu babiri b'abagore n'undi umwe w'umugabo, umugore umwe yitandiye igitambo cy'ibara ry'umuhondo n'undi mugore yambaye ipantalo ndetse n'undi mugabo yambaye ishati y'ubururu, basa nkaho bari muri gahunda z'ubu bucuzi biragaragara ko bashobora kuba ari abaguzi bari kumwe n'umugurisha.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi biragaragara ko icururizwamo imyenda ariko yiganjemo imyenda y'abana imyenda imwe imanitse ku rukuta rugize iyi nzu kandi iyindi igerekeranyije cyangwa ipanze neza ku meza yabugenewe.

Iri ni isoko rigezweho riri mu bwoko bw'amagorofa nk'uko bigaragara, ririmo ibicuruzwa byiganjemo imyenda imanitse ku byabugenewe bamanikaho imyenda mu masoko, iriho urujya n'uruza rw'abantu mu isoko kandi iri isoko risizwe irangi ry'imweru wererutse.

Iri ni iduka ricuruza ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye kandi iri duka ni rinini cyane nk'uko bigaragara, aha hari umukobwa wirabura wambaye umwenda w'umweru hejuru n'ipantaro y'umukara, afite akamwenyu ku maso ye, arasa nk'aho afashe icyo yaje kugura.

Aha hagaragazwa ibirango bya gahunda ya leta izwi nka ejo heza. Aha biragaragara ko biri kwamamazwa, aho aya magambo "ejo heza" yandikishijwe amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, n'ubururu ndetse n'andi magambo ari mu rurimi rw'icyongereza ariko yandikishijwe umukara usigirije.

Iyi ni hoteri yubatse ku buryo bugezweho ndetse butangaje, ikaba yubatse mu gihugu cy' uRwanda mu mujyi wa Kigali; aho abakerarugendo bishimira kuyisura ndetse ikaberarwamo n'ibikorwa bitandukanye by'igihugu.

Iyi ni gahunda y'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize muri gahunda yiswe ejo heza, hagaraga abantu benshi baje kwitabira, iyi gahunda bigaragara ko baje nko guhugurwa ibi biragaragazwa n'impuzankano bambaye, ndetse n'ibyapa byanditseho ijambo ejo heza ryandikishije ibara ry'icyatsi ariko icyatsi kerutse cyane.

Iki ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwizigame, biragaragara ko aha ari ibiro byabo aho bari kuvugana n'abaje babagana, hari abakozi bane b'iki kigo kandi bambaye impuzankano, inyuma yaho hari ibirango biranga ikigo bakorera ndetse n'ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, imbere yabo kandi hari imashini za mudasobwa ndetse n'umugore bigaragara ko yaje abagana.

Aha harerekana umuntu ufite ikarita y'ubwisungane mu kwivuza mu ntoki ze. Yambaye ikabutura iri mu ibara rya oranje ndetse n'ishati iri mu bwoko bwa karokaro. Iyi karita iri mu ibara ry'umweru n'ubururu bwererutse cyane, ndetse n'amagambo ayiriho yandikishijwe ibara ry'umukara usigirije.

Uyu mugabo afite igikapu ku rutugu cya shokora yambaye umupira uri mu bwoko bw'ubudodo wa giri ndetse imbere y'umupira hari karuvati itukura n'ishati y'umuhondo wererutse, afite ingofero ku mutwe, amarinete ku maso afite n'akamwenyu ku isura. Biragaragara ko yifashijwe muri gahunda yo kwamamaza "ejo heza" kuko bayanditseho amagambo ngo "uzakomeza kurimba no muri pansiyo." byandikishijwe ibara ry'umweru, "ejo heza" byandikishijwe ibara ry'ubururu n'icyatsi.

Aha harerekanwa ikarita y'ubwishingizi isa nk'irambitse ku meza iri mu ibara ry'ubururu ariko bwererutse cyane, hari amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda yandikishijwe ibara ry'umukara usigirije, biragaragara ko hariho n'ikirango cy'Ikigo cy'Igihugu Gishinzwe Ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB.

Aha hagaragazwa isoko ricuruza imbuto, ibinyampeke, ndetse n'ibindi bifunze mu mashashi, ibi binyampeke byiganjemo ibishyimbo, biri mu mabase kandi imbuto nk'inanasi n'imineke zirambitse ahabugenewe, hejuru turahabona amashashi afunzemo ibindi biribwa, ibi byose birambitse ku dutanda twabugenewe turi mu ibara ry'icyatsi.

Iri ni iduka rinini bigaragara ko ririmo ibicuruzwa byiyiganjemo amajyane, amavuta ndetse n'amata yo mu bikombe, ririmo umugabo bigaragara ko yaje aje guhaha, afite amajyana mu ntoki ari kuyitegereza yambaye ingofero y'umukara, akoze mu mufuka w'ipantaro, kandi afite ikoti ry'icyatsi imbere yambaye umupira wa oranje.

Iri ni isoko rinini rigezweho rya kijyambere nkuko bigaragara aha hari utubati twabugenewe duterekwaho ibicuruzwa, ibyerekanwa aha ni ibyiganjemo ibinyobwa biri mu bwoko bw'amata ariko akorwa n'uruganda inyange, atetse cyangwa apananze neza ku tubati twabugenewe, aha kandi haragaragara nk'aharimo abaguzi ndetse aho utubati turi hejuru hari ibara ry'umweru.

Aha hari iduka rinini cyane ririmo ibicuruzwa bitandukanye ibifunze, imboga ndetse n'ibindi byinshi. Aha hari inkingi zigiye zitandukanyije amayira ari muri iri soko ndetse hari n'umuguzi ufite igare ryabugenewe bagendesha iyo bari guhahira muri aya masoko agezweho.